Ndabona abakobwa n'abasore bambaye imipira y'umweru ndetse ku meza hariho igitambaro cy'umukara, ndetse nkabona uducupa tw'amazi, ndetse nkabona umugore uhagaze wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira w'ubururu.

Ndabona abagabo batatu bambaye kositimu, ndetse nkabona amazi, ndetse nkabona ameza, ndetse nkabona ikaramu, ndetse nkabona amakayi, ndetse nkabona ibara.

Ndabona abantu batandukanye benshi bari mu nama, bicaye ku ntebe iri mu ibara ry'ivu, ndetse hakaba hari amazi hasi ndetse bamwe bafite terefone mu ntoki ndetse abandi bafite mashini mu ntoki.

Ndabona abantu benshi batandukanye, ndetse nkabona umugore wambaye umupira wa ruge borudo ndetse akaba ari gusuhuzanya n'umugabo, ndetse bakaba bicaye muri tente, ndetse hakaba harimo amabara y'umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n'ibara ry'umweru.

Ndabona abasore bicaye bambaye imipira y'ubururu ndetse nkabona ameza ariho uducupa tw'amazi ndetse nkabona telefone ndetse nkabona agakombe k'ikawa.

Ndabona abantu batandukanye bari mu nama ndetse nkabona telefone ku meza ndetse nkabona ikayi n'ikaramu ndetse nkabona n'amazi ndetse nkabona n'imitako.

Ndabona abantu batandukanye bicaye ndetse nkabona undi ahagaze yambaye umupira w'umukara uri amagambo y'umweru, ndetse afite mikoro mu ntoki ndetse inyuma ye nkabonaho umuntu ufite kamera mu ntoki ndetse yambaye ijiri.

Ndabona abanyeshuri benshi bambaye iniforume abakobwa bitandiye udutambaro tw'umweru, ndetse bambaye imipira y'icyatsi, ndetse bambaye amapantaro y'ubururu, abandi bambaye imipira y'umuhondo.

Ndabona abantu bicaye muri tente ifite ibara ry'ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'umweru, nkabona bafure ndetse nkabona n'ameza ndetse nkabona n'amazi.

Ndabona abantu bicaye nkabona undi ahagaze, ndetse nkabona intebe, ndetse nkabona ameza afite ibitambaro by'umweru, ndetse nkabona hatatswe ibitambaro birimo amabara y'umuhondo n'ubururu.

Ndabona abantu benshi bahagaze ndetse nkabona abagore ndetse nkabona abagabo ndetse nkabona bafite sheke mu ntoki irimo amagambo y'umukara ndetse n'imibare ndetse nkabonaho ijambo ara gibi.

Ndabona imodoka iri mu ibara ry'umweru inyuma, umukobwa uhagaze, ndetse yambaye iraba ry'umuhondo, ndetse yambaye ipantaro y'ubururu, ndetse yambaye inkweto z'umweru, ndetse nkabona telefone imbere ye.

Ndabona amapave, nkabona ibiti birimo ibara ry’icyatsi. Nkabona ikirere gisa ibara ry’ubururu ndetse n’ibara ry’umweru. Nkabona inzu ya etage, nini ndetse nkabona n’ibyapa bitandukanye birimo ibara rya piki.

Ndabona icupa rya gaze riri mwibara ry'umuhondo nkabona amabwiriza Ari mwibara ry'umweru nkabona ibara ry'ubururu nkabona nibara ry'icyatsi.

Ndabona umugore yambaye umwenda urimo ibara ry'umukara, nkabona imashini, nkabona ibara ry'ubururu, nkabona ibara ry'umweru.

Ndabona telefone iri mu ibara ry'umukara, nkabona amafaranga y'inote za bitanu, nkabona amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'ubururu.

Ndabona abanyeshuri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara ndetse bakaba bicaye ku ntebe z'umukara ndetse nkabona ameza ndetse nkabona mashine ndetse nkabona n'imigozi.

Ndabona igikamyo, nkabona bisi nkabana moto, nkabona abantu bari kwambuka, ndetse nkabona umuhanda, nkabona amazu, nkabona amatara yo mu muhanda, ndetse nkabona n'umunara, ndetse nkabona ibiki.

Ndabona bisi ya ritiko ifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru, ndetse n'umukara, nkabona umuhanda , ndetse nkabona amagare, ndetse nkabona abantu, ndetse nkabona ibiti by'icyatsi.

Ndabona umumotari wambaye ijire y'umutuku ndetse atwaye umugenzi wambaye casike ndetse ndabona umutaka ndetse nkabona icyapa cya MTN ndetse nkabona amafoto ndetse nkabona inzu ndetse nkabona imodoka.

Ndabona ipoto, ndetse nkabona ikirere, ndetse nkabona imigozi y'amashanyarazi ari mu byerekezo bitandukanye, ndetse nkabona ibiti by'icyatsi, ndetse nkabona indabyo z'umuhondo, ndetse nkabona n'amazu.

Ndabona inzu yubakishijwe amatafari ndetse ifite amabati ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'akarongo k'umweru, ndetse nkabona ibyapa, ndetse nkabona abagabo babiri bahagaze.

Ndabona umugore uhetse umwana, ndetse nkabona n'igikapu, ndetse nkabona umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, ndetse nkabona intebe, ndetse nkabona bari mu nzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Ndabona inzu nini ya etage ndetse nkabona irimo amabara y'ubururu, ndetse n'ibara ry'umweru, ndetse hejuru hakaba handitseho kingi fayizari hosipito, ndetse nkabona idarapo, ndetse nkabona abantu batandukanye.

Ndabona abamama babiri bambaye ibara ry'iroza ndetse ku ruhande nkabona abagabo babiri bambaye ibara ry'umukara ndetse harimo n'ibara ry'umweru ndetse nkabona ibitabo ndetse nkabona imashini ndetse nkabona n'amazi.

Ndabona abagabo n'abagore bicaye nkabona bambaye udutambaro turi mu ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'ibara ry'icyatsi nkabona ameza hagati.

Ndabona abagabo babiri ndetse bambaye imyenda y'umukara ya porisi (police) ndetse hakaba hariho ikirangantego kiri mu ibara ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi ndetse hakaba hari undi mugabo wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'ingofero ndetse akaba yambaye amapingu.

Ndabona abagabo bambaye imyenda ya porisi (police) ndetse undi mugabo yambaye ikositimu ndetse yambaye agapfukamunwa ndetse yambaye amapingu ndetse ndabona imodoka yanditseho ribu ( RIB) iri mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse nkabona undi mugabo kuruhande wambaye ishati y'umweru.

Ndabona ibikarito biri ku ma etejeri byinshi, nkabona hariho amagambo ari mu ibara ry'umukara, nkabona hariho n'ibipapuro by'umweru biteyeho.

Ndabona abagabo babiri bambaye ibara ry'umutuku nkabona umwe afite mayikorofone muntoki ndetse nkabona ameza ndetse nkabona amazi ndetse nkabona ingofero.

Ndabona inzu ndende yubakishijwe amatafari, ndetse nkabona abagabo benshi bambaye imyenda, irimo ibara ry'iroza.

Ndabona imodoka iri mu ibara ry'umuhondo ndetse ifite umugozi munini w'umutuku ndetse nkabona umugabo wambaye imyenda isa ifite ibara ry'umukara ndetse'ira ry'icyatsi nkabona undi mugabo kuruhande wicaye ndetse nkabona ikindi gikamyo.

Ndabona imodoka ebyiri ziri mu ibara ry'umweru n'umukara, nkabona amagambo yanditseho polisi, nkabona icyapa, nkabona amabuye, nkabona inzu, nkabona umugabo uri kugenda yambaye imyenda y'umukara.

Ndabona icyapa kiyobora ndetse kiri mu ibara ry'ubururu ndetse nkabona ibara ry'umuhondo ndetse nkabona amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditseho nyamirambo RIB siteshoni ndetse nkabonaho akarongo kayobora.

Ndabona imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara, ndetse ikaba iriho amagambo yanditseho polisi, ndetse nkabona amapave, ndetse nkabona inzu ya etaje ifite amagambo ari mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Ndabona abagore babiri bahagaze, nkabona undi arikugenda, nkabona umuhanda ndetse nkabona inzu iri mu ibara ry'umweru ndetse n'indi nzu iri mu ibara ry'umuhondo.

Ndabona amapave ndetse nkabona imodoka ebyiri ndetse nkabona imodoka irimo ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, imodokadoka ikaba ifite amagambo yanditsemo tartafike polisi, ikaba hejuru ifite amatara ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Ndabona imodoka ifite ibara ry'umukara hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditseho tenisi bani ndetse nkabona vantire ntoya nkabona ibiti ndetse nkabona n'amapave.

Ndabona umugabo wicaye, nkabona terefone mu ntoki, ndetse nkabona yambaye kositime y'ubururu bwijimye ndetse nkabona yicaye ku ntebe y'umukara.

Ndabona umugore wambaye ikote ry'umukara, nkabona amazi, nkabona ameza, nkabona telefone, nkabona n'ikaye.

Ndabona umugabo wambaye kositime y'umukara, ndetse nkabona abagore bambaye imikenyero, ndetse nkabona amadarapo ari mu ibara ry'umuhondo, ubururu, icyatsi.

Ndabona abana babiri b'abahungu bambaye kositime iri mu ibara ry'ubururu ndetse nkabona bambaye amashati y'umweru ndetse nkabona umumama bambaye ibitenge.

Ndabona umumama wambaye ishati y'umweru, ndetse akenyeye igitenge, ndetse yambaye isaha ku kaboko, ndetse nkabona ibiti iruhande by'icyatsi, ndetse nkabona ikirere.

Ndabona umugabo wambaye kositime y'umukara, ndetse yambaye karuvati iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, ndetse nkabona idarapo ry'igihugu riri mo amabara: ubururu, umuhondo, icyatsi.

Ndabona abamama batatu bari mu nama, ndetse nkabona umupapa, ndetse nkabona amadarapo, ndetse nkabona amamikoro, ndetse nkabona uducupa tw'amazi, ndetse nkabona amakayi n'amakaramu.

Ndabona umugore wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru yambaye isaha ku kaboko ndetse afite imashini ndetse yicaye mu ntebe y'umukara ndetse inyuma ye hari idarapo riri mu ibara ry'umweru.

Ndabona abantu benshi bari mu nama, nkabona agatuti, nkabona umugabo wambaye ikoti ry'umukara, nkabona mikorofoni, nkabona ameza ariho amazi ndetse nkabona n'amamashini.

Ndabona bisi iri mu ibara ry'umweru, ndetse nkabona umuntu wambaye inkweto zifunze, ndetse nkabona afite bage, ndetse nkabona amapoto, ndetse nkabona imigozi.

Ndabona umugabo ufite igare, yambaye umupira urimo utubara tw'umweru ndetse n'umutuku, yambaye ikoboyi na sandari, nkabona inyuma ye hariyo umu mama wambaye ibitenge, imbere nkabona umugabo wambaye umukara ufite isakoshi mu ntoki, i ruhande nkabona igikamyo, ndetse nkabona na moto, n'abandi bantu i ruhande.

Ndabona imodoka z'ibikamyo bibiri bifite amashitingi y'ubururu, nkabona moto zitandukanye, nkabona umuhanda, nkabona inzu, nkabona n'amapoto.

Ndabona imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba hariho ibara ry'ubururu, ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo, nkabona ibiti ndetse nkabona umuhanda.

Ndabona igikamyo cya Hoho ndetse kiri mu ibara ry'umutuku ndetse nkaba mbonaho akabara k'umuhondo n'akabara k'umweru, nkabona abantu hirya, nkabona ibiti, nkaba mbona n'ibara ry'icyatsi.

Ndabona igikamyo gifite shitingi iri mu ibara ry'icyatsi ndetse nkabona imifuka ndetse nkabona umugore n'umugabo ndetse nkabona igikuta cyubakishijwe amabuye.

Ndabona kibiyesi iri mu ibara ry'ubururu ndetse ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, ndetse n'imbere hakaba harimo abantu bicaye ndetse n'abandi bantu bahagaze, ndetse ikaba iri mu muhanda ubwo se.

Ndabona imodoka iri mwibara ry'umweru ndetse nkabona moto iri mumuhanda ndetse nkabona ibiti by'icyatsi ndetse nkabona n'igikamyo cy'ubururu.

Ndabona igikamyo gifite ishitingi iri mu ibara ry'ubururu, ndetse nkabona abamotari babiri. bahetse abantu batandukanye. Ndetse umumotari umwe akaba ahetse umukobwa ufite igikapu, undi akaba ahetse umukobwa ufite umuzigo.

Ndabona imodoko iri mu ibara ry'ubururu ndetse ikaba iri mu muhanda, ndetse nkabona n'ibyapa bitandukanye ndetse nkabona na moto ndetse nkabona n'ibiti biri mu ibara ry'icyatsi.

Ndabona igikamyo kiri mu muhanda gifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba hariho shitingi iri mu ibara ry'icyatsi nkabona ibara ry'ubururu ndetse nkabana n'ibara ry'ivu.

Ndabona umuhanda, nkabona imodoka, nkabona akamoto gatwara imizigo, nkabona abantu, nkabona inzu yubakishijwe amatafari, nkabona imigozi y'amashanyarazi, nkabona amapave.

Ndabona umuntu uhagaze wambaye ingofero ndetse yahetse igikapu cy'umukara ndetse afite igare ndetse ku igare hariho udufuka ndetse nkabona bisi ndetse nkabona imodoka ndetse nkabona icyapa cya sikoro kiri mu ibara ry'umuhondo.

Ndabona abantu bicaye mu kabingaro gafite amabara y'umukara ndetse nkabona abandi bantu bagenda ndetse nkabona ibiti biri mu ibara ry'icyatsi ndetse nkabona icyapa gifite amagambo y'ubururu ndetse kikaba gifite ibara ry'umweru.

Ndabona farumasi nkabona n'imbere harimo imiti y'ubwoko butandukanye nkabona ibara ry'icyatsi nkabona abantu hirya nkabona icyapa kiririmo ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'umukara nkabona igishushanyo cy'umuganga.

Ndabona icyapa cyanditseho Muhanga disitirigiti kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo y'umukara, nkabona abantu bahagaze hepfo no haruguru ndetse nkabona umuhanda ndetse nkabona amagare ari mu masiganwa.

Ndabona icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse nkabona udukuboho turi mu ibara ry'ubururu ndetse nkabona icyuma, nkabona ibara ry'umweru.

Ndabona icyapa kiri mu ibara ry'umukara ndetse nkabona ibara ry'umuhondo ndetse nkabona ibara ry'umutuku, ku ruhande nkabona ibara ry'ubururu mu kirere ndetse nkabona n'ibiti ku ruhande.

Ndabona icyapa kerekana ikibuga, ndetse nkabona umuhanda, ndetse nkabona inzu, ndetse nkabona moto n'imodoka ndetse nkabona ibara ry'umweru.

Ndabona karitsiye y'amazu menshi ndetse nkabona ibiti ndetse nkabona amabati ndetse nkabona ikirere ndetse nkabona inzu ya etaje ndetse nkabona amagambo y'umukara yanditsemo kontorore Gihogere.

Ndabona igikuta kiri mu ibara ryumweru nkabona amabati ari mu ibara ry'umutuku nkabona nibara ryubururu.

Ndabona amazu y'ubwoko bwinshi butandukanye, nkabonamo etage, nkabonamo inzu ifite ibara ry'umweru, nkabona ibiti nkabona amabati y'umutuku, nkabona inzu ifite amabati y'umuhondo.

Ndabona ubutaka, nkabonaibiti biri mu ibara ry'icyatsi, nkabona inzu ya etaje iri mu mabara y'umukara ndetse n'amatafari, nkabona n'ipoto iriho imigozi, nkabona n'ibara ry'umutuku.

Ndabona igipangu gifite urugi rw'umukara ndetse n'amadirishya y'umukara nkabona amapave ,nkabona n'imodoka, nkabona ikigega, nkabona inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo .

Ndabona imodoka y'ibara ry'umutuku, ndetse nkabona ibiti biri mu ibara ry'icyatsi, ndetse nkabona inzu iri mu ibara rya beje, handitseho elizabefu cofu apatimenti, ndetse nkabona inzu irimo ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru.

Ndabona amazu atandukanye; nkabona iya etage ifite amabati y'umutuku, ndetse nkabona indi ifite ibara ry'ubururu, ndetse nkabona ibiti by'icyatsi.

Ndabona umuhanda uciyemo kabiri ufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, nkabona igikamyo kiri mu ibara ry'ubururu ndetse nkabona moto, nkabona ibiti, nkabona pasuparume ndetse nkabona n'amazu,

Ndabona umuntu uri kugenda mu muhanda yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ibara ry'ubururu, nkabona moto, imodoka ndetse nkabona n'ibyapa biyobora imodoka.

Ndabona umumotari ahahagaze, nkabona umwana ari kwambuka, nkabona abandi bana bahagaze iruhande, nkabona icyapa cy'ubururu cyanditsemo Skol, nkabona ikindi cyapa gifite ibara ry'umutuku n'iry'umweru, nkabona umuhanda uri mu ibara ry'umweru n'umukara, ku ruhande nkabona ibiti biri mu mabara y'icyatsi.

Ndabona umuhanda ndetse nkabona zebura korosi. Ndetse nkabona moto zihagaze, ndetse nkabona abantu benshi bagenda, ndetse nkabona ibyapa by'imodoka.

Ndikubona umuhanda utandukanyijwemo kabiri n'uturongo tw'umweru ndetse nkabona uturongo tw'umukara, nkabona pasiparume, nkabona imodoka, nkabona abantu bahagaze ndetse nkabona n'igikuta cy'amabuye.

Ndabona ikiraro, nkabona munsi yikiraro, nkabona ibiti by'icyatsi ndetse nkabona ipoto nkabona riri m'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.